Ubujya n'uruza abana batoya, barimo abahungu n'abakobwa, bakaba bicaye ahantu ku mukeka, barimo kunywa ibikoma, ndetse banabaganiriza, kugira ngo bibagure mu mutwe bityo bakomeze gukura neza bafite ibitekerezo bizima.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri b'abana batoya barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bakaba bari kumwe n'abarimu babo barimo kubigisha ndetse banabungura ibitekerezo kugira ngo baguke mu bwenge.

Urujya n'uruza rw'abana batoya barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bari kumwe n'umwarimu arimo arabigisha amasomo kugira ngo biyongerere ubumenyi ndetse bakure no mu bwenge.

Urujya n'uruza rw'abana batoya barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bari kumwe n'umubyeyi arimo arabigisha amoko y'ibyatsi, kugira ngo bakure bazi ibyatsi ndetse, baguke no mu bitekerezo bityo bazakure bafite ubwenge.

Inyubako nini utangirwamo serivisi y'uburezi, yaba uburezi b'abana batoya, bakuze, mu nyubako harimo intebe ndetse n'amezaza, aho abanyeshuri bicara mu gihe bari kwandika, ndetse hakaba harimo n'ikibaho, aho umwarimu yifashisha mu gihe ari kwigisha abanyeshuri, bityo uburezi bugakomeza gukwira ku isi hose.

Urujya n'uruza rw'abana batoya, barimo abahungu n'abakobwa, bicaye ahantu ku mukeka bari kumwe n'umwarimu wabo, arimo arabigisha, mbese ubona ko bose bakurikiye, bityo bakaguka mu bwenge.

Inyubako itanyurwamo serivise z'uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze, akaba ari inyubako yubatse neza ndetse, ikaba ifite ibiro aho abanyeshuri baza bagana abayobozi babo, baje kubabwira ibibazo bafite kugira ngo bibashe gukemuka neza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana, yaba ari abana batoya ndetse n'abakuze, ikaba ari inyubako yihagije ndetse ifite n'ibikoresho bimwe na bimwe, harimo ikibuga cyifashishwa mu gihe abana bari gukina umupira.

Abana bato b'abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa, bakaba barimo bafata amafunguro yabo saa sita kugirango bibongerere imbaraga, ndetse bitume banatsinda mu ishuri.

Inyubako itangirwamo serivise y'uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze, hakaba harimo ibishushanyo cyanditseho amwe mu masomo yigwa kuri icyo kigo bityo uburezi bugakomeza gukwira ku Isi yose.

Inyubako itangirwamo ubumenyi rusange ku bana batoya ndetse n'abakuru, akaba ari inyubako yubatse neza ndetse ifite n'ibikoresho byifashishwa mu gihe bari kwiga.

Abana batoya b'abanyeshuri bari kumwe na mwarimu wabo, barimo gutera igihingwa kizabafasha gutanga amahumbezi ndetse kikanabungura ubumenyi bityo uburezi bugakwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana bose; yaba ari aba batoya, abakuze ndetse n'abakuze cyane, akaba ari icyapa cyanditseho amategeko ndetse n'amabwiriza agenga icyo kigo kugirango ngo abana bajye bakomeza kwitwara neza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi kuba bana batoya, ndetse akaba ari abanyeshuri, bakaba barimo gukina, ubona ko bishimye, ndetse akaba ari inyubakoba yubatse neza ahantu hatuje bityo bikabafasha kwiga neza mu mutekano.

Inyubako itangirwamo serisi y'uburezi ku bana bose, yaba ari abana batoya, abakuru, ndetse n'abakuze cyane, hakaba hari ibikoresho byifashishwa kugira ngo abana bige neza ndetse bakomeze no kugira ubumenyi buhambaye.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana batoya ndetse nabakuze, ikaba ari inyubako yubatse neza ndetse ifite ibikoresho byifashishwa mu mugihe abanyeshuri bari kwiga; aho harimo intebe z'abanyeshuri bicaramo igihe bagiye kwiga bityo uburezi bugakomeza gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana bose, yaba abana bakuze, ndetse n'abatoya, hakaba harimo intebe aho abanyeshuri bicara kugira ngo bahabwe amasomo meza, ndetse hakaba harimo n'akabati kugira ngo babikemo ibikoresho bimwe na bimwe birimo ibitabo, ndetse n'ibindi, bityo uburezi bugakomeza gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze, bakaba ari abana ubona ko bari kugendana kugira ngo bajye kwiyungura ubumenyi, bityo ubumenyi bukomeze gukwira ku isi hose.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana bose, yaba ari abana batoya, abakuze, ndetse n'abakuzi cyane. Akaba ari inyubako ubona ko ifite ibikoresho birimo intebe aho abanyeshuri bicara, kugira ngo bakurikire neza umwarimu bityo abarezi bakomeze gukwira ku isi yose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze cyane. Hakaba hariho abanyeshuri bicaye ku ntebe, ndetse bakaba bari kumwe na mwarimu wabo, uje kubafasha mu kubahugura, ndetse anabongerere ubumenyi. Bityo uburezi bugakomeza gukwizwa ku isi hose.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri barimo abahungu ndetse n'abakobwa, hakaba hari umwarimu urimo kubigisha amasomo kugira ngo abahugure mu bwenge ndetse banakure mu bitekerezo bityo uburezi bukomeza gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana ndetse n'abanyeshuri, hakaba harimo abanyeshuri bari gufata amafunguro yabo, ubona ko bafite umuneke ndetse bakaba bari kurya umuceri ndetse n'imboga biza kubarinda indwara, ndetse bigatuma biga neza amasomo yabo. Bityo bagatsinda neza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi yaba uburezi bw'abana batoya, abakuze, n'abakuze cyane, muri iyi nyubako hakaba harimo igikoresho kizwi nk'ikibaho, aho umwarimu yandikaho kugira ngo yereke neza abanyeshuri ibyo bari kwiga, bityo uburezi bukomeze kunozwa ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi, yaba ari uburezi bw'abana batoya, abakuza ndetse n'abakuze cyane, haba harimo ibikoresho bizwi nk'ikibaho aho umwarimu akifashisha mu gihe ari kwandika kugira ngo asobanurire neza abanyeshuri, bityo uburezi bukomeze gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana bose yaba ari abana batoya, abakuze ndetse n'abakuze cyane, akaba ari inyubako nini, ku buryo yakira abanyeshuri bose, kandi bose bagataha bahawe uburezi bwiza. Ndetse hakaba harimo n'abanyeshuri ubona bari hanze, barimo baraganira.

Urujya n'uruza rw'abasore bambaye imyenda yabugenewe yo gukoresha mu gihe bagiye gukora akazi ko kubaka ndetse bakaba bitwaje n'ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa mu gihe bagiye kubaka.

Inyubako itangirwamo uburezi ku banyeshuri, akaba ari inyubako yubatse ahantu heza ndetse n'umuhanda, aho abanyeshuri bahaca ndetse bakanahagera byoroshye. Bityo bagakurikirana amasomo yabo neza.

Inzu nini irimo ibitabo byifashishwa mu gihe abanyeshuri bakeneye gusoma, bikaba bifasha kubongerera ubwenge, ndetse bakanunguka mu bitekerezo. Ni byiza gusoma ibitabo, gubera ko ni ingirakamaro mu masomo yacu.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana bose, yaba ari abana batoya, ndetse n'abakuru, ikaba ari inyubako yubatse ahantu heza, ndetse ubona ko abanyeshuri barimo kwidagadura kugira ngo bibafashe kuruhura ubwonko, bityo amasomo agende neza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze, hakaba barimo umwarimu urimo kwigisha abana, ndetse ukaba ubona ko harimo igikoresho kizwi nk'ikibaho, aho umwarimu yifashisha, ari kwandika kugira ngo abana bafate neza. Bityo uburezi bugakomeza kunozwa ku isi yose.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'uburezi ku bantu bose, yaba ari abana batoya, abakuru n'abakuze cyane, akaba ari inyubako yubatse ahantu heza, ndetse hatuje, ku buryo abanyeshuri batabangamirwa n'urusaku, bityo bakiga neza ndetse bagatsinda. Uburezi bugakomeza gukwizwa ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze, ikaba ari inyubako yubatse ahantu heza kandi nini, ikaba yubatse ahantu ku muhanda ku buryo abanyeshuri biborohera kugera ku mashuri yabo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'uburezi ku banyeshuri bose, aho harimo ibikoresho byifashishwa mu gihe abanyeshuri bari kwiga, harimo ikibaho aho umwarimu yandika, kugira ngo asobanurire abanyeshuri bityo bagire ubumenyi buhagije.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana, baba ari abana batoya, abakuru, aba ari inyubako yubatse neza; ndetse ikaba yubatse ahantu hatuje, ku buryo abanyeshuri batabangamirwa n'urusaku rwaho. Bityo uburezi bugakomeza gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze, ikaba ari inyubako ifite ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa, harimo intebe n'aho abanyeshuri bicara mu gihe bari kwiga, ndetse hakaba hariho n'ikibaho gifasha abanyeshuri gusoma no kwandika, bityo bagafata neza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana b'abanyeshuri, hakaba harimo abanyeshuri bari mu ishuri, hakaba hari n'umwarimu urimo kubafasha kwiga neza kugira ngo ubumenyi bwabo bwiyongere.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku banyeshuri, ndetse hakaba harimo abanyeshuri ubona ko bari guhabwa amabwiriza na mwarimu wabo, kugira ngo uburezi bukomeze kwiyongera ku isi hose.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'uburezi, yaba uburezi bw'abana batoya, uburezi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, akaba ari inyubako yubatse ahantu hari ubusitani, aho abanyeshuri baza kwicara kugira ngo baruhuke, maze amasomo bayafate neza bityo uburezi bukwire ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku banyeshuri, ikaba ari inyubako yubatse neza, ndetse ikaba iri ahantu hatuje ku buryo abanyeshuri biga neza maze bagatsinda.

Inyubako ibikwamo ibitabo byifashishwa, mu gihe abanyeshuri bakeneye gusoma, hakaba harimo umunyeshuri urimo gusoma igitabo, kugirango yihugure, biryo ubwenge buzamuke.

Inyubako itangirwamo serivisi y' uburezi ku bana batoya ndetse n' abanyeshuri, hakaba harimo umwarimu urimo kwigisha abanyeshuri akoresheje ibishushanyo, kugira ngo abanyeshuri bige neza maze bafate.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri barimo abahungu ndeste n'abakobwa, ubona ko bahetse ibikapu ndetse bafite na matera, bakaba bagiye ku mashuri kugira ngo bihugure ndetse biyongerera ubumenyi, bityo uburezi bukomeza gukura ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana bose, harimo abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'abahungu, ubona ko bari kumwe n'umwarimu wabo, arimo arabigisha ndetse abaha n'amabwiriza agenga ikigo.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'uburezi ku banyeshuri bose yaba abana ndetse n'abakuze, ikaba ari inyubako yubatse ahantu heza, ndetse nini, ku buryo ifasha abanyeshuri benshi, kandi bose bagataha bahawe uburere bwiza. Bityo uburirezi bugakomeza gukwira ku isi hose.

Inyubako itandikwamo serivisi yuburezi ku bana bose hari abana batoya, abakuru n'abakuze cyane haba harimo ibikoresho byifashishwa mu mugihe abanyeshuri bari kwiga birimo intebe aho abanyeshuri bicara kugirango bakurikire mwarimu neza bityo uburezi bukomeze gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivise y'uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze, ubona ko ari inyubako nini ku buryo yakira abanyeshuri benshi, kandi bose batanga umusaruro uhagije.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana bose, hakaba harimo abanyeshuri barimo kwiga bifashishije telefone ibafasha mu ikoranabuhanga, mbese ubona ko bameze neza bari kubifata.

Inyubako itangirwamo serivisi z'uburezi ku bana ndetse n'abakuru, ikaba ari inyubako ikora neza ndetse ikaba itanga ubumenyi buri hejuru, bityo abana bagahabwa uburere bwiza .

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku banyeshuri, hakaba harimo ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa mu gihe abanyeshuri bari kwiga kugira ngo biyongerere ubumenyi, bityo uburezi bukomeze gukwira ku isi hose.

Inyubako itanmbikwamo serivisi y'uburezi mu banyeshuri bose, ikaba ari inyubako yubatse ahantu ba heza ndetse ikaba ifite n'uruzitiro, ikaba yegereye umuhanda ku buryo abanyeshuri bahagera bitagoye bityo uburezi bugakomeza gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo ubumenyi rusange ku bana batoya ndetse n'abakuru, akaba ari inyubako ifite ubusitani bwiza, aho abana baza kwicara mu gihe bagiye kwiga kugira ngo bafate umwuka mwiza wo guhumeka, bityo bibafashe kwiga neza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze, ikaba ari inyubako ubona ko ifite ibikoresho byifashishwa bari gutangwa uburezi, ndetse bigatuma n'abanyeshuri bagira ubwenge buri hejuru, bityo uburezi bugakomeza gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana bakuru ndetse n'abatoya, hakaba harimo bimwe mu bikoresho byifashishwa hari gutangwa uburezi kugira ngo abana bakomeze kugira ubwenge ndetse banakure mu bitekerezo.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi, haba ku burezi bw'abana batoya, abakuru ndetse n'abakuze cyane, akaba ari inyubako nini ndetse ifite ibikoresho, byifashishwa kugira ngo hatangwe, uburezi bwiza. Bityo uburezi bugakomeza kunozwa ku isi hose.

Inyubako nini yubatswe neza itangirwamo serivisi y'uburezi, yaba uburezi bw'abana ndetse n'abakuru, ika ari inyubako yubatse ahantu heza ndetse ikaba ifite n'umuryango mwiza wo kwinjiriramo ku buryo yakira abanyeshuri benshi, kandi bose bagataha bahakuye impamyabumenyi ishimishije.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'uburezi, ikaba ari inyubako ubona ko ari nini cyane ku buryo yakira abanyeshuri bose kandi benshi bagataha bahabonye uburezi bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana batoya n'abukuru. ikaba ari inyubako ubona ko ifite ibikoresho byifashishwa hari gutanga uburezi bwiza. Bityo uburezi bugakomeza kunozwa ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana bose, hakaba harimo abanyeshuri ubona ko bari kwiga kugira ngo biyongerere ubumenyi bityo bazabeho neza bajijutse.

Inyubako itangirwama serivisi z'ubuyobozi ku abanyeshuri, hakaba harimo abanyeshuri bicaye ku ntebe, aho bari gukurikira umwarimu ibyo avuga kugira ngo bamenye, ndetse umusaruro w'ubwenge wiyongeye.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku banyeshuri, ikaba ari inyubako nini ndetse yubatse ahantu heza, hari ubusitani aho abanyeshuri baza kwicara mu gihe bari kuruhuka, kugira ngo amasomo yabo bayafate neza, bityo batsinde.

Inyubako itangirwamo serivise y'uburezi, yaba ku bantu bakuru ndetse n'abana, ubona ko barimo kwiga bifashishije mudasobwa, kugira ngo bibungure ubumenyi, maze babe abahanga. Bityo uburezi bugakomeza gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivise y'uburezi ku banyeshuri bose yaba ari abatoya ndetse n'abakozi bakore muri ako k'akarere ndetse ituye aho ba heza ku buryo abanyeshuri batabangamirwa bafasha ku buhe bityo bigatuma biga neza amasomo yabo.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'uburezi kubantu bose, yaba ari abana batoya, abakuru ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako yubatse neza ndetse ifite isuku, ikaba yubatse ahantu hari umutekano, ndetse hakaba hari n'umuhanda kugira ngo abanyeshuri bahagere bitabangoye. Bityo uburezi bukomeze gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku bana b'abanyeshuri, ndetse akaba ari inyubako yubatse ahantu hatuje, ku buryo abanyeshuri biga neza bibaviramo gutsinda.

Inyubako nini itangirwamo serivise y'uburezi, ku banyeshuri barangije icyiciro cya kabiri cy'amashuri, ikaba ari inyubako yakira abanyeshuri benshi, kandi bose bagataha bahakuye ubumenyi bwiza bw'ibanze.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi, abanyeshuri, ikaba inyubako yubatse neza ndetse ifite ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa mu gihe abanyeshuri bari kwiga, kugira ngo bagire ubumenyi buhagije.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'uburezi ku banyeshuri basoje icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, akaba ari inyubako yubatse ahantu heza, ndetse ifite ireme n'ubushobozi bwo gufasha abanyeshuri bayigannye.

Imyubako nini intangirwamo serivisi y'uburezi ku bana batoya, yaba ari abana bakuru ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako yubatse neza ndetse ikaba yubatse ahantu heza hatuje ku buryo abanyeshuri batabangamirwa n'urusaku, hakaba hari n'ubusitani aho abanyeshuri bicara kugira ngo baruhuke neza mu mutwe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'uburezi ku banyeshuri bose, baba ari abanyeshuri batoya ndetse n'abukuru; akaba ari inyubako yubatse ahantu heza hatuje, ku buryo abanyeshuri batabangamirwa n'urusaku rwo hanze, ndetse ikaba ifite umuhanda mwiza ku buryo abanyeshuri bagendamo ntacyo bikanga; bityo uburezi bugakomeza gukwira ku isi hose.

Inyubako itangirwamo ireme ry'uburezi ku banyeshuri, hakaba harimo ibitabo bifasha abanyeshuri mu gihe bagiye gusoma, kugira ngo bitegure neza, bityo baguke mu bwenge.

Inyubako itangirwamo serivisi y'uburezi ku banyeshuri bose, akaba ari ububiko burimo ibitabo byifashishwa mu gihe umunyeshuri akeneye gusoma, bityo bikamwongerera ubumenyi.

Inyubako nini irimo igitanda, aho barikwigisha abantu mu uburyo bwo gusasa igitanda, kugirango babimenye. Ni byiza kwiga gusasa, kubera ko kuryama ku buriri bushashe, ni ingirakamaro ku zima bwacu.

Inyubako itangirwamo serivise z'uburezi, yaba uburezi bw'abana ndetse n'abakuru, akaba ari inyubako yubatswe ahantu heza ndetse hatuje, ku buryo bifasha abanyeshuri kuruhuka neza ndetse bakanafata neza mu mutwe.

Inyubako ibikwamo ibitabo byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bakeneye gusoma kugira ngo biyungure ubwenge ndetse n'ubumenyi bukomeze gukura, bityo uburezi bukwire ku isi hose, ni byiza gusoma ibitabo, kubera ko ni ingirakamaro ku buzima bwacu.

Inyubako itangirwamo serivisi z'uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze, hakaba harimo ibitabo byinshi byifashishwa mu gihe abana bashaka gusoma uburyo bwo kwihugura, kugirango ngo bamenye ubwenge. Bityo akaba ari inyubako yubatse neza ndetse ifite n'ibikoresho bihagije byifashishwa.